Ushinzwe umutekano gw'abantu n'ibintu aratanga amahugurwa y'uko bakoresha ishiga rya kijambere rizwi ku izina rya gaze, kugira ngo abantu baje barikoresha, baritekeho bumva batekanye nta zindi ngorane bikeka rishobora kubateza.

Indege ya kajugujugu, ifite amababa ga gisirikare iriho n'utubendera twigihugu c'u Rwanda, iri kuguruka mu kirere iteye amabengeza ,rwose igaragara ko ifite n'umuvuduko mwinshi.

Polisi ni ugwego rushinzwe gucunga umutekano gw'abantu n'ibintu. Uru gwego rufitiye igihugu akamaro gakomeye cane, kuko ahagaragaye umutekano muke hose usanga ruhashinze ibirindiro, rukagerageza gukemura ibibazo byahavutse, kandi n'ibishaka kuvuka rugasiga rubijimije.

Icumba ca kijambere kiri kuberamwo inama y'abantu b'ingeri zitandukanye, harimwo n'abashinzwe gucunga umutekano. Buri muntu afite agakayi yandikamo ibitekerezo byose bivugiwe muri iyi nama. Hari umuntu uhagaze mu nama bigaragara ko ari kubaza cangwa ari gutanga ibitekerezo.

Inyubako za kijambere zisuzumirwamo ibinyabiziga bitandukanye, kugira ngo bije binyura mu muhanda byujuje ubuziranenge. Ni inyubako zibarizwa mu Mujyi gwa Huye. Ni n'inshingano z'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano kizwi ku izina rya polisi.

Icuma ca kijambere gishirwa ku muhanda gicunga umutekano gw'imodoka, c'ibyatsi cibanda cane cane ku kugenzura umuvuduko gw'imodoka gurenze, hanyuma kigatanga amakuru muburyo bwo kuzifotora.

Ushinzwe umutekano gw'abantu n'ibintu uzwi ku izina rya polisi, ahagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi cane, abagabo n'abagore, ari kubaha inyigisho cangwa inama z'uko umutekano warushaho gusugira ugasagamba.

Icumba ca kijambere kiri kuberamo inama y'abayobozi batandukanye bateze amatwi batuje kugira ngo bumve neza ikija mbere nabo babashe kuzagishikiriza abaturage bayobora.

Icyumba cya kijambere kirimwo n'ibyuma by'ikoranabuhanga nka televiziyo, kiri kuberamwo inama y'abayobozi batandukanye, harimo n'abashinzwe gucunga umutekano. Abayitabiriye bigaragara ko bateze amatwi, kandi bafite inyota n'amatsiko byo kumva ibyo bagezwaho n'abayobozi.

Umuyobozi wambaye umupira w'impuzankano, igaragaza ishaka arimo. Ahagaze mu ruhame mu cumba kiri kuberamo inama, afashe ijambo abaza cangwa yunganira ku bimaze kuvugirwa mu nama.

Abayobozi b'inzego zitandukanye barimo n'urwego rucunga umutekano gw'Igihugu, bari mu cumba ciza cane ca kijambere kiberamwo inama. Mu byicaro byabo bicaye batuje bafite amatsiko menshi.

Icumba kinini kandi kigari ndetse ca kijambere. Hicayemwo abayobozi batandukanye b'igitsina gore n'igitsina gabo. Bafite amatsiko n'ubwuzu bwo kumva ibyo baza kugezwaho mu nama bateraniyemo.

Itsinda ry'abacuranzi bacurangisha ibikoresho gakondo bizwi nk'imiduri, bari mu gitaramo cyizihiye ijisho aho bose bariho bacuranga ibihangano byabo kandi bishimye.

Inka ni itungo ribarizwa mu matungo maremare. Ryororerwa mu kiraro cyangwa mu gikuyu，ritanga umusaruro gunyuranye nk'amata， ifumbire， uruhu rwayo rushobora kuvamo ibikoresho nk'imikandara，inkweto n'ibikapu， ribyara buri mwaka nk'umuntu，ryororoka rwose neza.

Umutegarugori yicaye arambirije imbere y'inzu ye. Ari kuboha icirago. Byumvikane ko ari umuboshi. Umwuga w'ububoshi ni umwuga utunze abawukora. Icirago gishobora kwanikwaho imyaka, kuryamwaho, cangwa kwicarwaho. Kibohwa mu byatsi by'ibifunzo hakoreshejwe imigozi yitwa ingoyi.

Umukecuru urimo arasya ,wambaye ibikomo arasera ku ibuye rinini bita urusyo akoresheje irindi buye bita ingasire, yashashe umufuka neza ifu iza kumenekaho, iruhande rwe hari isafuriya nini irimo ibinyampeke arimo arasya ,bigaragarako arimo arashaka umutsima cyangwa se igikoma.

Inzu ya gihanga cangwa ya kinyarwanda izwi ku izina ry'inzu y'ibyatsi. Ni inzu yubakishijwe ibiti igakomanyishwa imbariro, igasakazwa ibyatsi by'ibisigazwa by'ingano. Igiramo imbere inkingi zisigasira igisenge. Igakikizwa n'indi nyubako bita urugo.

Umuntu uri kuvuza ikondera, wakwibaza uti ikondera ni iki? Ikondera ni igikoresho ca muzika kibajwe mu giti na none mu gandi magambo gishobora kwitwa impanda. Ni igikoresho gikoreshwa cane n'ababyinnyi b'intore iyo bari guhamiriza.

Inyambo ni inka nziza cane, zirangwa no kugira umubyimba muremure n'amahembe yazo ateze urugori，inyambo ziratozwa，zigakoreshwa akarasisi cangwa imyiyereko， zishobora gutanga amata kandi zikavamo inyama， impu zazo zikorwamo ibikoresho bitandukanye.

Mu muco ingoma ni igikoresho cifashishwaga mu guhanahana amakuru ku bantu batuye imisozi itandukanye. Kuri ubu ingoma yahindutse igikoresho ca muzika cifashishwa n'ababyinnyi b'intore, igihe barimwo bahamiriza bajana n'umurisho gwayo.

Ubuki ni kimwe mu musaruro utangwa n'inzuki .Buragenda bucika cane cane kubera ko amashamba agenda agabanyuka, bityo inzuki zikagenda zibura aho zihahira ibyo zikoramo ubuki .Ubuki rero bukaba buba gukorerwa mu muzinga, inzuki akaba ari namo zitaha uwo ni umuzinga.

Umukecuru uri kugosora imyaka ye akoresheje igikoresho gakondo citwa intara. Intara ni igikoresho gakondo kibohwa n'ababoshi, kiboshwe mu biti byitwa imigano baba batamuye, hanyuma imitamu y'iyo migano bakagenda bayisobekeranya, hanyuma bakayibya bakayibyazamo ico gikoresho.

Ubucuzi, ububoshi, ububaji, ubugeni n'ubukorikori ni imyuga zitandukanye zitunze abantu bazikora. Biri no mu bimwe mu bigize mirongo inani ku ijana by'ubucuruzi bukorwa n'abantu batandukanye.

Kuraguza cangwa guhanuza ni ukuja ku mupfumu akakubwira ibyakubayeho cangwa ibizakubaho bityo agafatanya n' imyuka imukoresha kugushakira intsinzi y'ibyo bibazo, hanyuma ukamuha ituro cyangwa se ikoro mu gandi magambo.

Igisenge kiboshe neza cane nk'uko imbariro zaco zigaragara zasobekeranijwe neza cane n'umufushi wagiye ashiramo amashusho menshi g'uruziga, gisigasiwe cane n'inkingi nyinshi kandi zitandukanye zituma kitabasha kugwa.

Mu mpuzankano nziza cane itsinda ry'ababyinnyi b'abari n'abategarugori barakesha igitaramo, bizihiye ibirori bari mu cumba cabereyemwo inama cangwa ibirori, niho barimo kugaragariza ibihangano byabo.

Itsinda ryabari n'abategarugori bambaye neza cane imishanana yabo, bakennye bari mu cumba ciza ce kandi kigali ndetse kinini bari kubyina imbyino za kinyarwanda bishimye rwose.

Intore ni umubyinnyi ubyina usimbuka, yiterera hirya, yiterera hino yitakuma. Kimwe mu biranga intore ni ingabo, icumu, n' ibihura bituma agenda agaragara nk'intore koko, akaba kandi yambara imyenda imwe igaragaza bimwe mu bice by'umubiri, kuko ituma rimwe na rimwe asimbuka nta kimutega.

Ububoshi ni umwuga ukorwa n'ababoshi. Ababoshi baboha ibikoresho bitandukanye. Harimo: ibirago, uduseke, babiboha bakoresheje ibyatsi byitwa imfunzo bavana mu bishanga. Ibyatsi by'imfunzo barabyanika hanyuma bakazabiboha bakoresheje uruhindu.

Mu muco ingabo ni igikoresho kibajwe mu giti cakoreshwaga n'ingabo ziri ku rugamba zikinga amacumu n'imyambi biturutse ku mwanzi ngo bitabahuranya. Muri iki gihe ingabo ni igikoresho gikoreshwa n'umubyinnyi uzwi nk'intore igihe ibyina yitakuma iba isa n'aho ikinga amacumu n'imyambi biva ku mwanzi.

Inzu yubatswe ku buryo bwa kijambere, hamanitswemo ibikoresho ndangamurage, twavuga nk'igikoresho ca muzika kizwi ku izina ry'inanga. Harimwo kandi ibuye rinini cane rizwi ku izina ry'urusyo n'ingasire yarwo ikoreshwa mu gusya ibinyampeke twavuga ko ari inzu ndangamurage.

Intore ni ababyinnyi babyina imbyino gakondo cangwa imbyino za gihanga. Usanga bambaye amayugi kandi bakenyeye imishanana. Ibice byabo by'umubiri byo haruguru akenshi biba bigaragara. Baba bambaye ibyo twita ibihura mu mutwe wabo, biba bitendera mu bitugu, akenshi babyina bafashe ingabo n'icumu.

Umwuga wo kubumba ni umwuga mwiza cyane kubawukora, kuko ubafitiye umumaro. Babona amafaranga iyo bagurishije ibibumbano cyangwa ibihangano byabo ku masoko, bakabasha kwiteza imbere, bagateza imbere n'imiryango yabo.

Ivu canwa itazi bitewe n'akarere umuntu aturukamo. Ni ifu ituruka ku kuba ibicanwa byashanguwe n'umuriro. Igira ishusho isa n'umweru. Ikoreshwa mu gufumbira ibihingwa. Cangwa igahuhizwa amakoma gagahinduka amamera.

Indosho cangwa umudaho bitewe n'akarere, mu ndimi z'amahanga citwa rushe ni igikoresho gakondo gikoreshwa iyo barura ibyo kurya mu cungo cangwa se mu isafuriya ,ni igikoresho ciza cane gifite umumaro.

Inyambo ni inka nziza cane zirangwa n'umubyimba muremure n'amahembe gazo maremare zirya ibyatsi cangwa ibyo kurya byakorewe mu ruganda ziraribwa zitanga amata uruhu rwazo rushobora kuvamwo ibikoresho bitandukanye nk'ibikapu, imikandara cangwa inkweto.

Intore ni itsinda ry'ababyinnyi b'igitsina gore n'igitsina gabo. Kubyina kw'intore ni uguhamiriza. Igitsina gore gitera imbyino kikaziherekeshesha amashi n'umurisho w'ingoma. Intore zibyina zambaye imishanana. Ndetse n'ibyo twita ibihura bitendera mu bitugu byabo.

Nyakatsi ni amazu y'ibyatsi yabaga yubatswe mu buryo buzwi nka miviringo asakajwe ibyatsi. Intore ziyari imbere zitaramye bigaragara ko hari mu rugo rw'umutegetsi cangwa rw'umuntu ukomeye, zirashengereye rero zimutaramira.

Mu muco nyarwanda intore ni ababyinnyi. Kubyina kw'intore tubyita guhamiriza, intore zibyina zambaye imishanana, zambaye amakamba mu bice by'umubiri bya ruguru, ariko ibyinshi bigaragara zibyina zitakuma zifashe ingabo n'icumu.

Umusaza uri gukirigita inanga. Inanga ni igikoresho gakondo c'umuzika, gikoreshwa cangwa gicurangishwa n'abantu b'igitsina gabo cangwa n'igitsinagore bitewe n'ubushake umuntu agifitiye.

Umukecuru wicaye ku gasambi cyangwa se na none akarago, arikuboha agaseke cyangwa akebo akoresheje uruhindu .Arakaboha mu byatsi by'ibifunzo, aba yabikuye mu gishanga ,akabyanika bikuma mbere y'uko abiboha.

Burya ngo agapfundikiye gatera amatsiko， agaseke ni igikoresho cyiza kibohwa mu byatsi twakwita imfunzo， iyo kamaze kuzura bakagenera umutemeri cyangwa umupfundikizo ugatwikira， kuko iyo kamaze gutwikirwa kaba gateye amatsiko.

Ububoshi ni ubukorikori cangwa se umwuga ubeshaho abawukora. Bakenera ibikoresho nk'ibyatsi, urufunzo, uruhindu, ubudodo. Ibi byose babikora nk'ibikoresho bitandukanye nk'uduseke, inkoko, imitako inyuranye yo ku meza cangwa ku ntebe byose ubona bibereye ijisho.

Intore ni ababyinnyi barimwo ingeri zitandukanye, bashobora kuba ari ingaragu cyangwa bubatse, barimwo abagabo n'abagore. Intore z'abagabo nizo zihamiriza cyangwa kubyina kw'intore naho igitsina gore kigatera imbyino zihamirizwa.

Itsinda ry’ababyinnyi b’intore riri gusangirira hamwe ibyo kurya byaruriwe ku nkoko. Rirasangira ryishimye kandi rifite n’umukuzo wo kwica inyota cangwa kurenza kuri ibi byo kurya. Bashungerewe n’utwana dutoya twitegereza igikorwa barimo.

Umutiba ni inyubako ikorwa n'abavumvu, kugira ngo inzuki zabo zibone aho zijya zitaha, umutiba umanikwa mu biti hejuru, cyangwa ukagikwa mu bisambu hari ibyatsi byinshi byiganjemo indabo, kugira ngo inzuki zabo zijye zibona aho zihahira hisanzuye zikore ubuki buhagije.

Icumba cirimwo ibikoresho gakondo cangwa bya gihanga, ibibindi. Ibibindi binini cane byitwa intango biteretse ku ngata za byo. Hari n'inzuho nanone zizwi ku mazina gw'urukiza. Hari n'indemberi yifashishwa mu kwenga cangwa gukama ibitoki.

Ababyinnyi b'igitsina gore mu mpuzankano zabo nziza cane. Barakesha igitaramo, barabyina neza cane kandi bose bikoreye uduseke. Ni ubuhanga bukomeye kubyina kandi wikoreye agaseke.

Ikirago, umusambi, umuhururu bitewe n'akarere ni igikoresho kibohwa cane n'abantu b'igitsina gore, bakakiboha mu byatsi byitwa ubusuna bikunda kuba mu bishanga, bashobora kugitakamwo amabara y'ibirere by'insina, ico gikoresho canikwaho, cicarwaho, kiryamwaho, gishobora no guhinduka umutako.

Ikigage, ubushera cangwa umusururu, ni ikinyobwa gishigishwa mu ifu y'amasaka yinitswe neza agahinduka amamera. Iyo kiriho ubuki citwa inturire. Gishobora gusindisha cangwa ntigisindishe bitewe n'uko cenzwe.

Konteri cyangwa mubazi ni imashini ikoreshwa mu mashanyarazi ikagena kandi ikabara ingano y'umuriro ukoreshwa mu rugo cyangwa se mu nganda n'ahandi hose hatandukanye ikagena n'ibiciro by'amafaranga byishyurwa umuriro wakoreshejwe.

Amashanyarazi ni ingufu zikomoka ku mazi, ku mwuka, cangwa ku izuba. Akoreshwa mu nzira nyinshi harimo gucana, guteka, ashobora gukoreshwa mu gukonjesha cyangwa gushusha ibyokurya ndetse ashobora gukoreshwa igihe babika nk'imiti mu bikoresho byabugenewe.

Igifashi cangwa ipenzi mu ndimi z'amahanga, ni igikoresho c'abakanishi gikoreshwa mu gukaza ibyuma cangwa amaburo, cangwa imisumari, ku bikoresho bifuza ko birangira kugira ngo byerekezwe ku isoko bigurishwe.

Umuriro gw'amashanyarazi gubyarwa n'ibintu byinshi bitandukanye harimo; amazi, umwuka, izuba cangwa ibimera. Umuriro gw'amashanyarazi gwaje guhindura ubuzima bwa muntu, kuko agukoresha mu bintu byinshi bitandukanye, bituma iterambere rye ryihuta.

Amashanyarazi ni ingufu zituruka ku bintu bitandukanye nk'amazi umwuka cangwa izuba. Ni ingufu zishobora kugira ingaruka nziza n'ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu cane cane iyo utazi kuzikoresha zishobora kukwangiriza ubuzima.

Ikigo nderabuzima cubatswe ku buryo bwa kijambere. N ikigo cyakira abarwayi, kikanabaha ubutabazi bw'ibanze igihe cyose baje bakigana bafashwe n'uburwayi bunyuranye.

Ikibuga c'umukino uzwi ku izina rya tenisi kiri ahantu hitegeye imisozi, ahantu hameze neza cane. Ikibuga kigabanijemo ibice bibiri bitandukanijwe n'akantu kari hagati ,kameze nk'izitiramibu. Kikaba ari ikibuga gikinwamo n'abakinnyi babiri umwe mu gipande kimwe undi mukindi.

Inzu ya kijambere igaragara nk'inyubako y'urusengero cangwa Kiliziya. Ifite ubusitani bugari buriho umucaca ndetse n'indabo zigukikije abantu bicaramo , iri gukorerwa amasuku bizwi nko gukoropa.

Icondo cakaswe neza kigahondwa kikahongamo udutuntu dufite ishusho y'urukiramende. Hanyuma tugashyirwa mu muriro. Bakaducanira iminsi runaka tukavamo tumeze nk'amabuye afite ibara ry'umutuku, nitwo bita amatafari akaba akoreshwa mu bwubatsi .

Mu karere ka Musanze niho wasanga inyubako ya kijambere ikoreramo banki yubatse rwose neza neza munsi y'umusozi gwa Muhoza. Ubu ugeze mu mujyi wa Musanze niho ushobora kubona iyi nyubako iruhande rw'isoko rya kijambere rya gohiko aho neza neza.

Inyubako ndende cane yubatse igeretse, izwi ku izina rya etaje. Yubatse neza neza iruhande rw'umuhanda rwa kaburimbo. Ni inyubako itangirwamo serivise zitandukanye hari n'ibinyabiziga biparitse iruhande rwayo.

Gari kijambere yubakishijwe amatafari ahiye, igasakazwa amabati g'ubururu, bigaragara ko ari inyubako y'idini. Abakirisitu bashagaye iyi nyubako ni abaje gushaka umwami wabo, kandi bikaba byerekana ko abantu bashize hamwe kandi bafatanya.

Iteme cangwa ikiraro, ni inyubako ya kijambere ishirwa ku muhanda kugira ngo ihuze uduce tw'umuhanda tubiri twari twatandukanijwe n'umugezi cangwa se n'ikindi kiza nk'umutingito. Iteme rifite akamaro gakomeye cane kuko rituma ubwikorezi bukomeza ntibuhagarare.

Inyubako za kijambere zubakishijwe amatafari gahiye zigasakazwa amabati gw'ubururu, zibereye ijisho. Zigaragara nk'amashuri cangwa se ikigo nderabuzima. Zikikijwe n'ishamba ry'ibiti rihazana akuka keza.

Urusengero cangwa kiliziya ni inyubako yubakishijwe amatafari gahiye. Isakajwe kandi amabati meza cane gasa n'ubururu. Iteganye cane n'imisozi miremire izwi nk'ibirunga, ni inyubako nini cane abakristu baza gusengeramo.

Inyubako ya kijambere yubatswe igeretse izwi ku izina rya etaje mu ndimi z'amahanga. Ni inyubako nziza cane ishobora kuba itangirwamo serivise zitandukanye nk'ubuvuzi, uburezi cangwa izindi serivisi za leta abaturage bakenera.

Inyubako ya kijambere kandi igeretse, inyubako ibereye ijisho kubera uburyo yubatse n'amarangi gayisize. Ni inyubako igenewe gukorerwamwo no gutangirwamwo serivise z'ubuyobozi ishobora kuba ari ibiro by'akarere cangwa ibiro by'intara.

Umuhanda wubatswe mu kirere ariko kandi ukoze ikiraro. Wubakishijwe ibiti n'insinga, unyurwaho n'abantu kugira ngo bambuke bava hakuno bajya hakurya, igihe amazi y'umugezi ari munsi y'uy'umuhanda wuzuye.

Icumba ciza cane ca kijambere cubakishijwe amatafari gazwi nk'amatafari ga ruriba, kirimo igitanda giteguye neza, kiriho matela n'amashuka, ni igitanda naco kijanye n'igihe.

Urusengero rwubatswe kijambere, rwubakishijwe amatafari, rugasakazwa amabati gafite ibara ry'umweru n'icatsi. Ni urusengero rubereye ijisho. Rukikijwe nanone iruhande n'indabo, ruzwi ku izina ry'inzu y'Abahamya b'Ubwami ba Yehova, ruriho abantu baje gusenga.

Umuhanda gwa kijambere guzwi ku izina rya kaburimbo, cangwa kolasi. Ni umuhanda gwubatswe ku buryo bugezweho. Ugu muhanda gusizwa n'imashini zigenda zigutsindagira kandi zikagenda zigukomeza ahantu hose, ku buryo guba gupimye impande zose. Gugendwamo n'ibinyabiziga bigenda binyerera binyerera.

Ni inyubako igaragaza urusengero rwa kijambere. Urusengero rugezweho rwo muri iki gihe . Urusengero rwemewe n'amabwiriza, rufite ubusitani, rufite umunara, urusengero rumeze neza cane ugereranije n'uko insengero zo hambere zabaga zimeze.

Inyubako ya kijyambere isakajwe amabati Kandi yubakishije amatafari ahiye. Ni igikorwa remezo cy'ikigonderabuzima cya Gataraga, aho abaturage baza kwivuriza, igihe cyose bahuye n'uburwayi. Urabona ko hari n'ubusitani bwiza abarwayi baruhukiramo, igihe baba batarabonana na muganga.

Umuhanda gwa kaburimbo cangwa gwa korasi, ni umuhanda gwa kijambere guba gwarakozwe neza n'imashini gugatsindagirwa, gugashirwamwo ibinusi bizwi nka gudoro ,gorosha cane ubuhahirane bw'uduce dutandukanye tw'igihugu.

Mu nyubako z'ubutegetsi m'utugari, imirenge, akarere ndetse n'intara, ni ahantutu abaturage birukira bajya gushaka serivisi z'ibibazo bitandukanye baba bakeneye, ni naho bahurira n'abayobozi, mu gihe bifuza ko hari ibyo babafasha gukemura mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Igitanda ni igihangano c'umubaji igihe gikozwe mu mbaho. Cangwa kikaba igihangano c'umusudizi igihe gikozwe mu byuma. Gishobora kuba ari igitanda kimwe cangwa ari bibiri bigerekeranye. Gifite umumaro munini cane wo kuryamwaho cangwa kuruhukirwaho.

Ikoraniro ry'abakirisitu ba Kiriziya gaturika bari mu muhimbazo ku rusengero rwabo, cyangwa kuri Kiriziya izwi nka Katederarari ya Ruhengeri, ni Kiriziya yubatswe mu buryo bwa kijyambere n'amatafari ahiye cyane.

Umuhanda wa kaburimbo witegeye cyane ikigo cy'amashuri. Hirya y'ikigo cy'amashuri hari umusozi uriho umudugudu uteye amabengeza. Ku muhanda wa kaburimbo hahagaze ushinzwe umutekano uzwi ku izina ry'umudaso. Hari n'icyapa kinini cyane, cyanditseho umubare mirongo ine. Abize amategeko y'umuhanda basobanukiwe neza n'icyo icyapa kivuga.

Ku rusengero cyangwa kiliziya n inzu yubatswe kijambere abakirisitu baja gusengeramo cyangwa kwambarizamo nyagasani. Si ukwambaza gusa bahabonera n'inyigisho zishobora kububaka mu buzima bwabo bwa buri munsi zishobora gutuma babana neza mu muryango batuyemo.

Amashuri ga kijambere gubakishijwe amatafari, gagasakazwa amabati gatukura, gubatswe iruhande g'umuhanda g'ubuhahirane gw'igitaka. Gatorezwamo inyigisho zitandukanye zirimwo umuco nyarwanda n'indangagaciro na kirazira.

Inganda ni zimwe mu nyubako za kijambere, zirushaho kugenda zihindura ubuzima bw'abantu, zihindura n'imiterere y'isi muri rusange. Kuko ziri mu nyubako zikorerwamo ibikoresho byinshi bitandukanye abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Zigaragaza iterambere ryihuse ry'igihugu.

Inyubako za kijambere zubakishijwe ibikoresho bigezweho. Zisakajwe amabati g'icatsi agandi g'umutuku uko bigaragara ni inyubako zigirwamo n'abana bashaka ubumenyi. Iruhande rw'izi nyubako, hari umuhanda wa korasi cangwa kaburimbo. Hirya y'aho hakaba hari n'ikiyaga.

Inyubako ya kijambere yubatswe neza kandi iteye amarangi g'umuhondo, imbuga yayo ishashwemo amapave. Yagenewe gutangirwamo serivisi z'kigo c'imari c'umwarimu sacco, niho abarimu babonera amafaranga bahembwa.

Itsinda ry'abayobozi bari mu rwego rw'ubucamanza，bari gukemurira ibibazo by'abaturage ku karubanda. Ku karubanda ni ahantu hose hagaragara，hatubakiye， abantu bose b'ingeri zitandukanye，bashobora kuza bakareba.

Itsinda ry'abantu benshi bateraniye hamwe abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko. Bari imbere y'ibiro by'ubuyobozi, bateze amatwi, bashishikaye kandi bafite amatsiko yo kumva inyigisho n'inama bahabwa n'umuyobozi wabo.

Icumba ca kijambere kandi kigari cane kirimwo abantu batandukanye bigaragara nk'aho ari abayobozi, bari guhabwa amahugurwa ku bintu bitandukanye, bicaye bateze amatwi kandi bafite amatsiko menshi cane.

Akenshi iyo abantu bafite ibibazo bibugarije barahura bakicara bakagira umwanya wo kubivugaho no kubifatira ibyemezo cangwa imyanzuro ,ni muri urwo rwego abantu bicaye bateranye hari ibibazo bibafitiye inyungu cangwa byugarije umuryango bariho bashakira ibisubizo.

Uburezi ni imwe mu nkingi z'iterambere ry'igihugu aho kiva kikagera. Uretse kuba abana bashobora kwiga, kubara, gusoma no kwandika, bashobora kwigiramo n'uburenganzira bwabo.

Ishusho irerekana umugabo n'umugore bahekanye ku ihonda cangwa ipikipiki, bigaragara ko bari bahoze baremesheje inama. Ni abayobozi bahoze baremesheje inama kandi biragaragara ko ari muri ca gihe cari gikomeye cane c' icorezo bitaga koronavirusi, kuko bose baragaragara bambaye udupfukamunwa.

Icugutu cyangwa igihwerahwere mu yandi magambo ni igikoresho kibazwa mu mbaho cyangwa kikaremekanywa mu byuma. Kigendera ku mapine, cyikorera imizigo itandukanye y'abantu, ariko hakenerwa n'ingufu z'abantu basunika kugira ngo kibashe kugenda.

Imodoka ni igikoresho c'ikoranabuhanga kigendesha imipine cangwa imitende, gitwarwa n'umuntu uzwi ku izina ry'umushoferi ,gifite umumaro munini cane kuko gikoreshwa mu kuvana abantu cangwa ibintu mu duce tumwe kibe kibyerekeza mu tundi duce byifuza.

Gare mu rurimi rwamahanga ivuga imodoka ni ururimi rw'igiswayile turikoresha mu kinyarwanda dushaka kugaragaza cangwa kuvuga aho imodoka nyinshi ziteranira zitegereje abagenzi zitwara kuko niko kazi kazo.

Ingorofani ni igikoresho cyifashishwa buri munsi mu gutwara ibintu, kigira ipine n'ibifashe umuntu asunika nimba n'amaboko ge, hari n'ingorofani za kijambere zigira amapine zigatwarwa nk'uko imodoka itwarwa kuko ziba zifite moteri zikorera ibintu byinshi.

Ikibuga c'indege ni ikibuga cifashishwa mu kugwa no kuguruka ku indege. Indege ikaba igikoresho c'ikoranabuhanga cifashishwa mu gutwara ibintu n'abantu, kibivana mu bihugu bimwe kibyerekeza mu bindi cangwa mu duce tw'igihugu kimwe kibijana mu kandi mu tundi duce.

Gare ni inyubako yubatse neza ikaba igizwe n'ikibuga kirambuye aho imodoka zitwara abagenzi zibajana mu duce dutandukanye zibategerereza ni inyubako ifitiye abantu benshi akamaro mu gutwara abantu n'ibintu.

Gare ni ijambo ry'iritirano rikomoka mu rurimi rw'igiswayire, turikoresha dushaka kuvuga ikibanza kinini cane imodoka ziteraniramwo zitegereje abagenzi zitwara. Imodoka nayo ni izina ry'iritirano rivuga igikoresho ca kizungu, gitwara abantu n'ibintu bava mu gace kamwe bajya mu kandi.

Imodoka nini cane izwi nka limoroke ikoreshwa mu kwikorera imizigo iremereye, iri gupakira amatafari go kubakishwa inzu za kijambere zo guturamo, cangwa zo gukoreramwo indi mirimo itandukanye.

Ibinyabiziga nka moto amagare n'imodoka n' ibinyabiziga bikoreshwa mu bwikorezi byikorera abantu cangwa ibicuruzwa byabo bibivana mu duce tumwe bibyerekeza mu tundi imodoka irapakira igapakira kurusha ibindi binyabiziga bigenda ku butaka.

Igare ni ikinyabiziga kigendesha amapine abiri, kigenda gitwawe n'umuntu yaba uw'igitsina gabo cangwa igitsina gore. Gikoreshwa mu bwikorezi kikorera ibintu bitandukanye kibivana mu gace kamwe k'ibyerekeza mu kandi gifite umumaro mwinshi cyane.

Moto, ihonda cangwa ipikipiki. Ni ikinyabiziga ca kijambere kigenda ku mapine abiri. Cifashisha moteri kugira ngo gishobore kwiruka cane. Gikoreshwa mu gutwara ibintu n'abantu. Kibivana mu gace kibijana mu kandi.

Igare ni igikoresho c'ikoranabuhanga gikoreshwa mu gutwara abantu cangwa ibintu ribivana mu gace kamwe ribyerekeza mu kandi， ritunze abarikoresha kuko iyo batwaye ibintu cangwa ibintu babonamo amafaranga gabatugira imiryango nabo ubwabo.

Umuhanda gwa kijambere guzwi ku izina rya kaburimbo guri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye imodoka, amagare gahetse abantu, hirya no hino ku muhanda hari ibiti n'indabo bigukikije biteye amabengeza, hari n'inzira yagenewe kugendwamo n'abanyamaguru.

Imbangukiragutabara : Ingobyi y'abarwayi mu ndimi z'amahanga izwi ku izina rya "ambilanse" ni imodoka ifite akamaro gakomeye cane mu kugeza indembe n'abarwayi kwa muganga. Yihutira gutabara cane cane ahabaye ibyago nk'impanuka, abayikomerekeye muri iyo mpanuka bose ikabageza kwa muganga byihuse. Ni imodoka rero ifitiye abantu akamaro.

Umugi ni urusobe rw'inyubako zigeretse cangwa zitageretse. Zaba iz'abantu ku giti cabo cangwa inyubako z'ubutegetsi. Usanga harimwo na nonene ibidukikije bitandukanye nk'ubusitani, ibiyaga, imihanda inyuranyuranamo, ihuza uduce n'utundi usanga umujyi ubereye ijisho.

Ubwikorezi bwo ku butaka bukorwa n'ibinyabiziga bitandukanye, amapikipiki azwi na none ku izina ry'amahonda, amagare ndetse n'imodoka. Ni ubwikorezi bwihutisha iterambere ry'abaturage n'igihugu muri rusange. Buvana ibicuruzwa ndetse n'abantu mu duce tumwe bibyerekeza mu tundi duce.

Ahantu ibinyabiziga bitwara abantu bitegerereza abo bitwara hitwa gare. Gare ni ikibanza kinini cyane giparikamo imodoka zitandukanye, inini n'intoya zifashishwa mu gutwara abagenzi.

Igare, mu bwinshi amagare: Ni igikoresho c'ikoranabuhanga, na none c'ubugenge, kuko kugitwara n' ubugenge cane, cifashishwa mu gutwara abantu, cangwa ibintu, gihahira abagikoresha mu buryo bwo kubatunga.

Umukinnyi w'umupira w'intoki, uzwi ku izina rya basiketiboro, ari mugororangingo rigamije kwitoza gukina neza umupira igihe ageze mukibuga, afite utuntu arimo yitorezaho tutari abantu tumufasha kugenda atanga amacenga.

Ikipe y'abakinnyi b'umupira w'intoki uzwi ku izina rya basiketiboro. Ni ikipe y'igitsina gore. Ikipe igaragara mu mpuzankano ifite amabara y'ibendera ry'u Rwanda. Ni ikipe nziza cane yafatiye ifoto muri sitade y'Amahoro kuko n'intebe zirabigaragaza.

Umusore nawe rwose uri gukina umukino gwitwa tenisi ,hatangajwe cane n'umupira yitegura gutera bigaragara ko afite ishaka ryo kuwutera anezerewe.

umukino gw' intoki guzwi ku izina rya handibolo ni umukino gukinwa n'abakinnyi barindwi kuri buri ruhande rw'amakipe abiri gahanganye, ni umukino gukinanwa imbaraga nyinshi kuko umuntu w'indegarege utagira agatege atabasha kuwukina.

Mu mpuzankano ibereye ijisho abakinnyi bariho bagorora ingingo. Mbere yuko binjira mu mukino nyirizina siporo cangwa igororangingo ni imyitozo ifasha umubiri gwacu guhumeka neza kandi amaraso gagatembera mu mubiri nta nkomyi gafite..

Umwari wambaye imyenda y'umukara, bigaragara ko ari imyenda ya siporo, n'inkweto z'umweru n'amasogisi ajya kuba umutuku, uvanze mo amabara y'umukara n'umuhondo, ari mu gikorwa c'igororangingo, kizwi ku izina rya siporo mu ndimi z'amahanga.

Ihuriro ry'inzira cangwa imihanda. Ni ahantu nyaburanga hategurwa neza cane, ku buryo imihanda iba ihahurira, buri muhanda ufite icerekezo cawo. Ku buryo ibinyabiziga bihageze bigerageza kugabanya umuvuduko kugira ngo bibashe kubisikana hatabayeho impanuka.

Abakora umukino go kunyonga igare. Batwaye amagare mu mpuzankano zabo nziza, kandi bari mu matsinda gabo. bageze ahantu bashungerewe n'imbaga y'abantu benshi cane, bashimishijwe n'umukino baje kureba no kwihera ijisho.

Umupira w'intoki cangwa gw'amaboko guzwi ku izina rya Vore boro, ni umupira gukinwa n'amakipe abiri gahanganye, gahanganira mu kibuga, buri ruhande rugizwe n'abakinnyi batandatu, ibitego batsindana byitwa amaseti, irushije indi niyo iba yatsinze cane.

Umukino wo kunyonga cangwa gutwara igare, n'umukino mwiza cane gutunga abawukora ukabatungira n'imiryango, guhesha nanone ishema igihugu, cane cane iy'ugukina yagicuriye umudare.

Umukino gw'intoki gwuzwi nka volebolo. Ni umukino gwuhuza amakipe abiri gahanganye, buri ruhande rugizwe n'abakinnyi batandatu. Uretse kuba gwugororerwamo ingingo, abagwukina bashobora no kurushanwa bakabona ibihembo bibateza imbere.

Amakipe abiri gahanganye gakina umukino wintoki uzwi nka basiketibolo .Mu mpuzankano nziza cane urabona umutegarugori wagurutse wifuza gutanga igitego ku kipe bahanganye. Ashungerewe cane abafana.

Siporo cangwa igororangingo uretse kuba ituma umubiri gwacu guhumeka neza, amaraso kagatembera neza mu ngingo, siporo iri mu bituma abantu bashobora kwibeshaho mu buryo bw'amarushanwa. Iyo uyikora ayikora neza, ibasha kumutunga ikamutungira n'umuryango.

Itsinda cangwa se mu indimi z'amahanga ikipe y'abakinnyi b'umupira ushobora kuba uw'amaguru cangwa uw'amaboko bari hamwe, baganira ku mbogamizi cangwa ku nzitizi zituma batabasha gutsinda cangwa ingamba bashobora gufata kugira ngo batsinde.

Abakinnyi b'umupira gw'intoki guzwi nka voreboro bari mu kibuga aho bahanganye. Hari amakipe abiri barashungerwa n'abatoza ndetse n'aba bafana, kugira ngo buri ruhande rurebe ko rwatahana intsinzi.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru uzwi ku izina rya ruhago, atsinze igitego arishimira itsinzi y'igitego ateye mu izamu.

Inkombe cangwa inkengero z'amazi g'inyanja cangwa g'ikiyaga, ni ahantu heza cane amato gomokera gaba gavuye hirya no hino, gikoreye ibicuruzwa bitandukanye, cangwa gatwaye abantu bava mu duce tumwe berekeza mu utundi.

Uwo munyabizigira ari mukino ngororamubiri, arimo aragorora ingingo aratuje, kandi bigaragara ko anejejwe n'igororangingo arimo gukora.

Abakinnyi b'umukino uzwi nka basiketibolo b'amakipe anyuranya b'igitsina gore, bahanganye bahanganiye mu kibuga kandi bigaragara ko bashungerewe cyane n'inteko y'abarebyi cyangwa se abafana.

Pisine ni ikidendezi gicukurwa kikanatunganywa neza mu mazu gatandukanye cane cane amahoteli, kifasha abantu gukoreramwo igororangingo rizwi mu koga cangwa umukino wo koga.

Umukino gw'amagare ni umukino gumaze kwamamara hirya no hino ku isi n'igihugu cyacu kidasigaye inyuma. Gutunze abagukora, gukabatungira n'imiryango, Ikindi ni uko abakinnyi bagukora bahesha ishema igihugu bavukamo kuko bakizanira imidari itandukanye.

Umupira gwa siporo muto cane gukinishwa mu mukino gwa tenisi, guri kumwe n'igikoresho bifashisha abakinnyi ba tenisi bakubita ugo umupira ,igihe bari rwagati mu kibuga bahanganye uko aba ari babiri.

Ishusho y'urugo yafashwe icuramye. Ni ukuvuga icuritse urugo ariko urugo rwubatsemo imbere. Ibi byatsi mubona ni uruzitiro rukikije urugo ruririmo imbere.

Kaburimbo cangwa kolasi bitewe n'akarere umuntu abarizwamo. Ni umuhanda gwa kijambere gwaharuwe gugatsindagirwa n'imashini zabugenewe zizwi nka katerepirare. Gorohereza cane ubuhahirane mu duce dutandukanye tw'Igihugu.